Ahantu bigaragarako hari ahantu abana bato bigira, hakaba bigaragarako hashobora kuba hari nkaha bano bana bifashisha bogera cyangwa bagenda mu mazi ku bikoresho byabugenewe bishobora bashobora kwifashisha bari nko kuruhuka mu mutwe cyangwa se mu gihe bari kwiga.

Ahantu ku mashuri kuri ayo mashuri hakaba hashushanyijeho icyapa kigaragaza ibendera ry'Igihugu, munsi y'iryo bendera ry'Igihugu hashushanyijeho inyamaswa nini ari yo dukunze kwita inzovu, iyo nzovu bikaba bigaragara ko ihagaze ahantu mu byatsi ariko ibyo bintu akaba ari ibishushanyo.

Abana batoya bari mu kigo cyabo bigaragara ko hari abantu baje kubasura abo bana bari mu myicungo yabo abo bantu baje kubasura bakaba bambaye imyenda bose y'umuhondo hejuru uretse bake muri bo abo bana bakaba bambaye impuzankano iri mabara y'umukara hasi hejuru bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse aho hantu bari bakaba bakikijwe n'ibiti.

Icyumba cyiza cyane kirimo ameza n'intebe, buri meza ikaba izengurutswe n'intebe, imeza zimwe ziteyeho intebe z'umutuku izindi meza ziteyeho intebe z'ubururu, muri izo meza na zo zigiye zifite amabara atandukanye, hari imeza ifite amabara y'umuhondo, ubururu iyindi icyatsi, icyo cyumba kikaba kigira aho cyubakijwe amatara.

Ikigo cy'amashuri bigaragara ko ku nkuta z'icyo kigo cy'amashuri hashusanyijeho ibishushanyo abana biga muri icyo kigo k'ishuri bifashisha biga akaba imbere hari kugaragara umunyeshuri bigaraga ko yambaye impuzankano y'ipantaro n'ishati yanatebeje yambaye na karuvati hirya hakaba hari kugaragara ibishushanyo biriho inyamaswa ikirangantego k'igihugu cyacu n'ibindi.

Ikigo cy'amashuri bigaragara ko gikikijwe n'amazu menshi. Hirya yacyo hakaba hari inzu ndende, iriho amabati y'umutuku. Aho iyo iri imbere yayo hakaba hari igiti kirekire cy'icyatsi. Kuri iryo shuri ku rukuta rwayo hakaba hashushanyijeho, ibishushanyo bigaragaza ibice by'umuntu nk'abanyeshuri bashobora kwifashisha barimo kwiga.

Ibikoresho abana batangira ishuri bifashisha bakina cyangwa bigiraho. Ibikoresho bikaba biri mu mabara agiye atandukanye harimo ibiri mu mabara y'umukara, biri mabara y'umweru, ibiri mu mabara y'ubururu, ibiri mu mabara y'umutuku, ibindi biri mu mabara y'kigina. Ibikoresho bikaba bikoze mu buryo bwa kare.

Icupa ryo gutwaramo amazi, riri mu mabara atandukanye, rifite amabara y'umutuku, kuri iryo cupa hakaba hagaragaraho, utwana dushushanyijeho, iryo cupa rikaba rifasheho udushumi tubiri, bigaragar ko umuntu ashobora kuba yafataho mu gihe aritwaye, ari nko ku rugendo.

Abana batoya bambaye utugofero dukunze kwitwa kwita ukw'abayisilamu b bibwira ko bari gutera nk'irangi ahantu ku rukuta kubera ko abana bishimye kubera ibyo bari gukora abana baka bambaye imyenda igifite amabara atandukanye ubururu, umweruru abandi imyenda ijya gusa n'ikigina.

Ibishushanyo bigaragara ko shobora kuba abana babyifashisha biga, ibyo bishushanyo bikaba bigara ko ari ibishushanyo by'ibishyimbo cyangwa se by'igishyimbo, ikindi akaba ari igishushanyo kigaragaza im imyumbati, ikindi akaba ari igishushanyo kigaragaza nk'inkoko.

Igishushanyo gishushanyijeho udutima n'akana n'ijambo ngabo icyo gishushanyo kikaba kiri mu mabara y'umutuku kikaba gifite ubuso bugizwe n'amabara abiri ari ryo iba ry'umukara n'ibara ry'umuhondo.

Ibikoresho abana batangira ishuri bifashisha biga, ibyo bikoresho bikaba biri mu ishusho cyangwa se ibishushanyo bya radiyo, iyo radiyo cyangwa se ayo maradiyo akaba ari mu mabara agiye ari amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi, indi ika iri mu mabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo n'umweru.

Umwana muto wiga mu mashuri abanza, ufite igitabo mu ntoki ze, ahagaze imbere y'abantu, bishobora kugiragara ko ari nk'ababyeyi be, hakaba hari na mwarimu imbere ye. Bikaba bigaragara ko uwo mwana ashobora arimo kuba ari kugaragaza ibyo yize asomera abo bantu.

Igikinisho abana biga mu mwaka wa mbere batangira amashuri cyangwa se abana bari mu irerero bashobora gukoresha bakina cyangwa bigiraho. Iki gikinisho kikaba kiri mu mabara atandukanye. Amabara y'umuhondo, amabara y'ubururu, amabara ajya gusa n'umutuku.

Ibikoresho twifashisha mu mibare. Ibyokoresho bikaba biri mu mabara y'umuhondo, ibindi biri mu mabara y'umutuku, ikindi mumabara y'ubururu. Ibyo bikoresho by'umuhondo bikaba bigaragaraho imibare iyo twifashisha turi gupima. Kimwe muri ibyo bikoresho gikozwe mu ruziga ikindi gikozwe muri mpande eshatu.

Ibikoresho abana bifashishije iyo bagitangira kwiga, cyane cyane mu isomo rigendanye n'imibare cyangwa se ubugenge. Ibyo bikoresho bikaba birimo, uducamurongo, amakaramu, amakereyo n'amarati. Bikaba byose biri mu mu kabati kabugenewe bizamo.

Ibikoresho abana bagitangira ishuri bifashisha biga cyangwa se basobanukirwa amasomo, ibyo bikoresho bikaba biri mu mabara atandukanye y'umutuku ibindi bikaba biri mu mabara y'ubururu, ibyo bikoresho bikaba birambitse ahantu bigaragarara ko ari mu kabati, ibyi bikoresho bigaragara ko bikozwe mu nyajwi bifashisha biga gusoma.

Ibikoresho abana batangira ishuri bifashisha, ibikoresho bikaba biri mu bwoko butandukanye, harimo amarati, harimo uducamurongo, hakabamo n'ibyo dukunze kwita ikereyo, ayo marati akaba ari na yo agiye ari mu buryo butandukanye, hari amarati akoze kare, amarati akoze uruziga n'ayandi n'ayandi.

Ishuri rinini bigaragara ko ari ishuri riteye, imbere y'iryo shuri rikaba ryubatse mu buryo bw'inyubako zigereritse rikaba rigereretse inshuro ebyiri, hafi y'iryo shuri hakaba hateye igiti kigaragara ko gishobora kuba kitanga amahumbezi.

Ibibuni biri mu mabara agiye atandukanye, akaba arimo amabara y'umweru, umukara, ubururu, umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ibyo bikinisho bikaba nabyo bigiye biri mu ngano zitandukanye, harimo ibirebire, bigufi n' birebire cyane mu bigega.

Ibikoresho twifashishije iyo turi kwiga cyanecyane turi kwiga ibihindanye isomo ry'imibare cyangwa ibigendanye n'ubunyabugenge, ibyo bikoresho bikaba bikozwe aribyo dukunze kwita amarati n'uducaramurongo nk'udusibisho, ayo marati hakaba hari irikoze muri kare irindi rikoze mu bukiramende hari n'agakoresho twifashisha tubitwaramo.

Umwarimu w'umubyeyi cyangwa se akaba ari umukobwa, bikaba bigaragara ko hari imbere y'abanyeshuri nubwo batagaragara, akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, akaba afite ibitabo mu ntoki, ku rundi ruhande imbere ye hakaba hari ikibaho, bigaragara ko ari kwigisha abana, uko bigaragara ari kubigisha isomo ry'imibare.

Inyubako nziza cyane bigaragara ishobora kuba ari inyubako yifashishwa harererwa abana batoya nk'aba dukunze kwita abana bagitangira ishuri. Iyo nyubako ikaba iri mu mabara y'umweru n'andi ajya gusa nk'ivu. Kuri iyo nyubako hakaba hashushanyijeho ibishushanyo abana bashobora kwifashisha biga, harimo nk'ibigizwe n'imibare n'inyuguti.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu ishuri bakaba bicaye ku ntebe, abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara, iryo shuri barimo rikaba rigizwe cyangwa se ryubakishijwe n'amatafari, rikaba rifite n'amadirishya ari mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hakaba hari mwarimu uri ku kibaho, umwarimu akaba yambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru bikaba bigaragara ko ari kwandika kuri icyo kibaho.

Icyumba cyiza cyane kirimo amatara ariko muri icyo cyumba harimo ameza . Buri meza ateyeho intebe buri meza akaba azengurutswe n'intebe ebyiri muri zo zikaba zizengurutswe ni z'umutuku izindi ebyiri nazo zizengutswe n'izirimo amabara y'ubururu.

Ibishushanyo bigaragaza abana bari kumwe n'ababyeyi babo, abana hakaba harimo abana bigaragara ko ari bakuru abandi bikaba bigaragara ko ari abana bakiri bato cyangwa se bagaragara ko ari igishushanyo kigaragaza umuryango uteraniye hamwe, hakaba harimo abicaye n'abahagaze.

Ikigo bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, icyo kigo ku muryango wacyo hakaba hakinze urugi rufite amabara y'icyatsi, hakaba handiki kuri urwo rugi hejuru hakaba handitseho amagambo yanditsemu ibara ry'umweru agaragaza izina ry'icyo kigo, muri icyo kigo uko bigaragara mo imbere hakaba hateyemo ibiti birebire.

Ahantu bigaragarako hashobora kuba ari nko ku kigo cy'amashuri hakaba hari abantu bahateraniye bigaragarako hari igikorwa cyabahuje, muri abo bantu hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano uwo dukunze kwita umupolisi wambaye impuzankano hose, akaba afite umusatsi hejuru akaba ari kumwe n'abandi bantu bari kumwe muri icyo gikorwa.

Igishushanyo kigaragaza abagabo babiri, bahagaze ahantu hamwe, abo bagabo babiri bakaba bafite ingabo mu ntoki, bigaragara ko bashobora kuba ari nk'indwanyi, twakundaga kwita indwanyi z'ibwami mu magambo make.

Umugabo wicaye ahantu mu ishuri, bigaragara ko ashobora kuba ari umwarimu w'abo banyeshuri, umugabo akaba yambaye ishati ifite amabara y'umweru n'andi ajya gusa n'ikigina, akaba afite ikaramu mu ntoki, bigaragara ko ashobora kuba ari kwandika cyangwa gukosora abanyeshuri, inyuma ye hakaba hari ikibaho.

Ibikoresho abana biga mu mashuri mato cyangwa se abanza bifashisha bari kwiga, ibyo bikoresho bikaba biteretse ahantu mu kabati, ibyo bikoresho bikaba bigiye bifite amabara atandukanye, hakaba higanjemo ifite amabara y'umuhondo, icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu.

Ibikoresho abana biga mu mashuri abanza bifashisha biga, ibyo ibikoresho bikaba biri mu mabara agiye atandukanye; ibiri mu mabara y'umuhondo, ibiri mu mabara y'umutuku n'ibiri mu mabara w'ubururu n'ibiri mu ma barara yi'ikigina, ibi bikoresho bikaba bikozwe mu buryo bw'inyajwi bigaragaramo a, n'izindi n'izindi.

Igitabo gifite igihu kiri mu mabara y'umweru, kuri icyo gihuguhu cy'umweru hakaba hariho ibigaragaza icyo gitabo biri mu mabara y'umukara n'ikigega, amagambo yanditseho amazina avuga icyo gitabo akaba yanditse mu ibara ry'umweru, aho yanditse hakaba hari mu ishusho y'umukara.

Igitabo gishushanijeho abana babiri, bigaragara ko abana bari gusoma igitabo, icyo gitabo kiba cyanditseho rimwe, igaragaza abo icyo gitabo cyagenewe, bishora kuba ari abana biga mu mwaka wa mbere. Hejuru y'cyo gitabo kikaba cyanditseho inyuguti eshatu zigaragaza abakoze icyo gitabo.

Abantu benshi bakoraniye hamwe bigaragara ko bashobora kuba bagiye kwibuka. Ab'imbere bakaba bafite icyapa bigaragararo cyanditse amagambo agenewe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Muri aba bantu imbere hakaba hari umupolisi uri imbere bigaragara ko ari kubayobora.

Icyumba cy'amashuri giteraniyemo abantu bigaragara ko bishobora kuba ari uruhande rumwe rwicayeho abanyeshuri urundi ruhande rwicayemo abantu batari abanyeshuri imbere yabo hahagaze mwarimu hari n'ameza abiri bigaragara ko hari ibintu bashobora kuba bari kwigira hamwe bose.

Abantu bari ahantu ku murongo bakaba biganjemo urubyiruko, urubyiruko rukaba rwambaye impuzankano iri mu mabara y'umuhondo hejuru, hasi bambaye umukara ni abantu basa nk'aho ari bakuru. Urwo rubyiruko ntago bambaye impuzankano. Abo bantu bakaba bibwira ko babasha kuririmba, bagenda bakoma mu mashyi.

Abana b'abanyeshuri bahagaze ahantu hamwe kumurongo bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru hejuru, hasi kake, hasi inkweto, bakaba bambaye umukara n'amasogisi y'umweru, aba bana bakaba bafite indabo nziza zifite amabara agiye atandukanye harimo izifite amabara y'umweru, umuhondo izindi zikaba zifite amabara y'umutuku, imbere yabo hari umugabo ushobora kuba ari umupadiri.

Abantu bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abanyeshuri, bakaba bicaye ahantu mu ishuri cyangwa se mu cyumba bigiramo, bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru hejuru, icyo cyumba barimo kikaba kizengurutswe n'amabara y'icyatsi, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu bigaragara ko ashobora kuba ari mwarimu wabo uri kubigisha.

Abana b'abanyeshuri bicaye ahantu mu ishuri, imbere yabo ku meza bakaba hari mudasobwa, bakaba bambaye udupfukamunwa mu mabara agiye atandukanye, umukara n'ubururu, aba bana bagaragara ko bari gukoresha mudasobwa cyangwa se bakaba bari guhugurwa, uburyo nabo bashobora gukoresha izo mudasobwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bamwe bakaba bambaye impuzankano z'umuhondo hejuru, hasi ikigina, abandi baka bambaye, undi umwe akaba yambaye icyatsi, hasi umukara, undi akaba yambaye umweru, hasi kaki, bikaba bigaragara ko bari ku murongo, hari umuntu ushobora ari kubakira, ababaza nk'ibyangombwa byabo.

Abanyeshuri bigaragarako bari kumwe n'abarimu babo, aba banyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'umweru hejuru hasi bakambaye impuzankano ya kaki inkweto bakaba bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru bikaba bigaragara ko babiri bari imbere umwana n'umwarimu bigaragara ko ari kumuhereza nk'indangamanota y'amanota yagize cyangwa se ari kumushimira uburyo yitwaye.

Abana babanyeshuri bakoraniye hamwe, abana bambaye impuzankano yamabara y'umukara hasi, hejuru umweru, bambaye inkweto z'umukara hasi n'amunsigisi y'umweru, bakaba bambaye na karuvati, aba bana bakaba bahagaze ku mirongo.

Icyumba kinini gihagazemo abantu, bambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi n'umweru ugaragara cyane, bikaba bigaragara ko ari ahantu mu kigo cy'amashuri, bikaba bigaragara ko ari nk'ahantu abanyeshuri bashobora kwifashisha, bakorera ubushakashatsi bw'ibyo bize cyangwa bareba nimba ibyo bize mu makayi koko ari byo.

Ikibaho bifashisha biga nko muri za kaminuza cyangwa se amashuri makuru. Icyo ki kiba gifite ibara ry'umweru. Kuri icyo kibaho hakaba handitseho amagambo menshi. Ayo magambo yanditse kuri icyo kibaho akaba yanyandikishijwe mu ibara ry'icyatsi.

Ikibumbano kibumbye mu ibumba bigaragara ko ari ikibumbano cya kinyarwanda, icyo kibumbano kikaba kiri mu mabara ajya gusa n'ikigina cyangwag se n'igitaka, kikaba giteretse ahantu hari mu mabara afite ibara ry'ubururu nirindi rijya gusa n'umweru cyangwa se ikigina.

Ikibumbano cya kinyarwanda, bigaragara ko kibumbye mu ibumba, icyo kibumbano kikaba kiri mu ibara ry'ikigina, kikaba giteretse ahantu bigaraga ko ari nk'ahantu mu cyumba, impande yacyo aho giteretse hari amabara atandukanye, hari amabara y'umweru, ubururu, andi akenda gusa nk'umutuku, utagaragara neza.

Icyumba kinini gifite inkingi ziteye irangi rigiye gusa n'ikigina, ku rundi ruhande hakaba hari amadirishya agaragara ko afite ibara ry'icyatsi, kuri icyo cyumba hasi hakaba harimo umukeka cyangwa se igitenge gishajeho uduseke, ahandi hakaba hashushanyijemo igitaboko bigaragara ko kirambuye.

Abana bari kugenda mu muhanda, bigaragara ko bafitanye ubwuzu, bagenda bafatanye mu muhanda. Aho bari kugenda, hafi yabo hakaba ubusitani buto buteyemo ibiti. Bigaragara ko byitwaho cyangwa se bifashwe neza.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bugeretse, bigaragara ko ishobora kuba igeretse inshuro zigeze kuri eshatu, iyo nyubako ikaba ifite irangi ry'umweru, amadirishya yaryo akaba afite irangi rijya gusa n'ivu, amabati ayisakaye bikaba bigaragara ko afite irangi ry'umutuku cyangwa se ibara ry'umutuku, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umuhanda w'amabuye.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bigaragara ko bashobora kuba ari abanyeshuri muri abo bantu hakaba harimo abagiye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umukara, abambaye imyenda ifite amabara y'umweru, abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, abantu bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, imbere yabo bikaba bigaragara ko hari umugabo ushobora kuba ari umwarimu uri kubasobanurira ibyo bari kwiga.

Icyumba bigaragara ko kiriho ibitambaro bikingiye mu madirishya. Ibyo bitambaro bikingiye kuri icyo cyumba bikaba bifite ibara rijya gusa n'ubururu ariko ubururu buvangiye butagaragara neza. Ku rundi ruhande hejuru hakaba hari ibara rijya gusa nk'ikigina.

Abantu bahagaze ahantu ku murongo, bakaba bafite ibipapuro cyangwa se amafishi, agaragaza ko wenda hari ibintu bakoze cyangwa se ikigero bagezeho bakora mu bintu runaka nk'imitsindire mu mashuri cyangwa se ari icyiciro cy'amashuri barangija.

Icyumba cyicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, hakaba hicayemo abakobwa n'abagabo, muri icyo cyumba bicaye hakaba hagiye harimo intebe zifite amabara y'ubururu n'umukara zizengurutse, abantu bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga, bigaragara ko hari ikintu bashobora kuba bari kuganira cyangwa kunguranaho ibitekerezo.

Ibikoresho bya kinyarwanda, bikaba bigaragara ko ibyo bikoresho bibumbye mu ibumba ibyo bikoresho bikaba bifite ibara cyangwa se bijya gusa n'ikigina, hakaba harimo n'ibindi bijya gusa n'icyatsi, ibikoresho uko bigaragara bikagaragara ko ari nk'ibyungo cyangwa se ibindi.

Icyumba cy'inzu kiri mu mabara atandukanye, icyo cyumba kikaba gifite inkingi zifite ibara rijya gusa n'ikigina, imbere yazo hakaba hari ikibaho cy'umweru ikibaho cyika cyanditseho amagambo n'ubwo atagaragara neza, urebye neza icyo cyumba kikaba gishamikiyeho ikindi cyumba gifite amadirishya ari mu iba ry'icyatsi.

Ibintu bikoze mu bugeni bigaragara ko byarakozwe n'abantu biga ibigendanye no kudoda cyangwa se ubundi bugeni runaka ibyo bintu bikaba bigaragara ko bishobora kuba ari nk'ingofero cyangwa se imitako ikozwe mu buryo bwa kinyarwanda.

Icyumba kinini gifite amabara y'umweru imbere, kikaba hejuru kiriho icyapa kigaragaza nomero z'icyo cyumba. Icyo cyumba kikaba ari kinini urebye hirya yacyo kikaba kigiye gishamikiyeho ibindi byumba.

Ibikoresho bigaragara ko hari ibikoresho abantu biga ubugeni bashobora kuba barakoze, bikaba ari ibikoresho bikoze mu buryo bwa mpande enye ,bikaba ifite amabara atandukanye, harimo ibifite amabara y'umweru, ibifite amabara ajya gusa n'itaka bifitemo y'ikigina n'ibifitetanwa ryo busa'icyo

Inyubako bigaragara ko ari inyubako ishobora kuba ari inyubako ndende, ikaba ari inyubako ifite ibara ry'umweru inyuma, hakaba hari kugaragara amadirishya y'iyo nyubako, hasi iyo nyubako iherereye ikaba iteye akarangi k'umukara, hari kugaragara impombo yinjiza amazi muri iyo nyubako.

Igishusho cyangwa se ikibumbano kigaragaza umugabo. Bigaragara ko ari umugabo, icyo gishushanyo kikaba kibumbye mu ibara rijya gusa nk'ikigina cyangwa se umukara. Hafi y'icyo gishusho kaba hari ikindi kibumbano gikozwe mu ibara ry'ikigina kiri mu ishusho y'uruziga.

Icyumba kinini cyiza cyane kirimo amakaro hasi kubera ko gifite mu nguni zacyo cyangwa inkingi zacyo uruhande rumwe ruriho amadirishya arimo ibirahure urundi ruhande ruteye irangi rijya gusa n'ikigina icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bifite ibara ry'ubururu ushaka ko biba ari intebe cyangwa se utumeza dukoranye n'intebe.

Inzu bigaragara ko yubakishije ibikoresho bikomera. Iyo nzu imbere ikaba ifite irangi ry'icyatsi, ika ifite inkingi iriho amakaro y'ibara ry'umweru n'umukara, imbere yayo hakaba hari icyapa gishushanyije igishushanyo cy'umuntu bigaragara ko ashobora kuba afite igiti mu ntoki cyangwa se icumu.

Abantu bicaye ahantu hamwe, abo bantu bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umukara, abambaye imyenda ifite amabara y'umweru, abantu bakaba bicaye ku ntebe nazo zigiye zifite amabara atandukanye, harimo abicaye kuntebe zifite amabara y'umutuku abandi amabara y'umukara.

Ishusho igaragaza ibikoresho bya kinyarwanda cyangwag se by'ubugeni. Bikaba bikozwe mu buryo bw'ibitambaro. Bikaba ari ibitambaro biri mu mabara ajya gusa n'ikigina n'umweru. Bikaba birambitse ahantu hasi. Hirya yabyo urebye hakaba hari ibindi bitagaragara neza, bishobora kuba bikoze mu buryo bw'ibumba.

Abantu bari kugenda mu muhanda bigaragara ko abantu bashobora kuba ari nk'abanyeshuri abantu bakaba harimo abakobwa n'abahungu, aho bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ubusitani butoya, ubwo busitani bukaba buteyeho ibiti bigaragara ko ari ibiti byitaweho kandi bitoshye, hakurya yaho aho bari hakaba hari n'ibiti birebire.